Ingorofani iparitse barikurundamo itaka bayoresheje igitiyo, hirya no kumpande hari ibimera n'ibyatsi, igitiyo gifashwe n'umuntu wari uri kukiyoresha.

Abahinzi bari mu murima mwiza cyane kandi munini uhinzwemo ibigori. Abahinzi bambaye imyenda y'ubururu, inkweto za bote n'ingofero z'umweru bahetse ipombo nziza bari kugenda bafuhira iyo myaka.

Umuvuzi w'imyaka, ufashe igihingwa ari gusukaho umuti usa n'ubururu, hasi hari ibindi bihingwa bimeze nka byo, uwo mugoronome yambaye ga z'umweru n'imyenda y'umweru.

Isambaza nyinshi cyane ziva mu mazi cyane cyane ziboneka mu Kivu no mu zindi ngezi zitandukanye zirambitse ahantu hamwe zegeranye cyane.

Ibiribwa by'imboga, imigati, amafunguro ya buri munsi harimo n'imigati, harimo ifi, n'imboga muri rusange.

Amafi meza cyane baroba mu nyanja, umugezi no mu kiyaga. Barambitse ku meza uko ari abiri, bagiye bayasaturamo imirongo ibiribiri.

Abantu benshi bamwe bari mu mungezi, abandi bari hejuru bari kuroba amafi. Ruguru yabo hakaba hari abakameramane barimo bakamera. Hirya hakaba undi muntu uhagaze ku ruhande. Imigezi yitaruye iri hagati yonyine, hirya hari ibiti n'ibihingwa, hari n'abantu bunamye mu mazi bari gutimbya.

Inkube nyinshi cyangwa se amafi manini biva mumazi, bamanitse hejuru ku twuma, banyujije umugozi imbere. Bimwe mu bintu bituruka mu mazi kandi biribwa, bikunzwe cyane.

Amafi manini n'amatoya arambitse ku kantu, ku ruhande hari ironji, inyanya, na sereri, birambitswe hamwe.

Amazi meza y'ikiyaga kiri ahantu heza. Ku mpande hari amashyamba menshi cyane y'ibiti, n'amazu atandukanye agiye atura. Kure y'icyo kiyaga hari ikirunga.

Udufi duto cyane tuboneka mu mazi mu kiyaga no mugezi hamwe n'insonza, babirambitse mu kabasi ni byinshi cyane babiroba mu mazi no mugezi.

Udufi twiza cyane, twinshi. Tuva mu mazi y'ingezi, y'ikiyaga, batwita tamusoni. Urabona ko ari udufi bakuye mazi, kandi twose ntabwo ari tuzima twose.

Amafi barambitse, bashiraho n'uturungo tujyiye dutandukanye harimo: sereri, indimu, irongi, te, n'utunyanya.

Isafuriya nziza iteguye irimo amafi abiri, inyanya, indimu n'amag biteguye neza.

Ibiryo byiza biri ku isahani ishashe y'idongo harimo: amakarongi ,inyama ,udutunguru n 'utuboga biteretse ku meza.

Ifi iri ku kameza n'icyuma, ifi bayikase bakuramo amagufa, isigara ari yonyine ubundi bayirambika ku kameza n'umurizo ntibawukuraho w'iyo fi.

Mu muhanda mwiza wiritaka wo mu giturage, kuruhande hariho twatsi twiza, insina zibitoki byo kurya, inyuma y'izo nsina hari inzu.

Umurima munini cyane uhinzwemo ibirayi bigiye bitatanye, ku ruhande hari ibiti, inyuma cyane hari inzu, kure cyane hari n'insina n'umurima w'itaruye uri ahantu mu kibaya cyane.

Ibiti bigaragara neza bitoshye bikiri kuyanga bifite uruyange rwinshi cyane n'amababi meza y'icyatsi kibisi ,ni make y'umuhondo arimo bigaragara nk'aho kitari cyera kikiri gitoto.

Ishyamba ryiza, kandi rinini cyane, ririmo ibiti bimwe bikuze, ibindi bitoya, hakabamo n'utundi twatsi dufite amababi meza twagiye tureba hasi, harimo n'ibiti by'inturusu n'imisave ku ruhande.

Umurima munini cyane, urahantu mu kibaya, urimo igihingwa cy'ibirayi, kigaragara nkaho kitarera neza, kuruhande hari ibiti byiza n'urutoki, hakurya hakaba amazu.

Umurima munini cyane uhinzwemo amashu. Uri kubona ko agiye ari ku murongo, ariko atatanye. Inyuma y'ayo mashu hari ikigo cy'amashuri, hakaba n'ahandi hadahinzwe h'uducaca.

Akayira gatoya cyane kari kunyuramo abantu bashoreye inka, uwimbere cyane afite ni ibase urinyuma afite inkoni, ku ruhande hari ibibara birimo ibyatsi n'ibindi, basaruyemo ibigori imbere ye cyane hari ibiti.

Umurima munini urimo amashu, n'ibyatsi byinshi byagiye bimera bito bito, urabona ko amashu atakuze neza, hakurya hari ikibuga hirya hari amazu menshi n'ibiti.

Umurima munini cyane, uri mukibaya uhinzwemo ibitunguru byinshi cyane, hirya yuwo murima hari urutoki, runini rwitaruruye.

Umurima munini cyane wo mu kibaya, urimo utwatsi turi kujya turamera, wagira ngo bahinze vuba. Ku mpande, hari ibiti, hari ibigori byumye.

Igihingwa cyiza kiri ahantu heza: amateke, isombe, gitoki, ibidodoke. Ahantu heza kandi bisa neza, bimwe mubiribwa bikunzwe cyane, kandi by'amoko menshi.

Umurima urimo ibiti byinshi hakabamo n'imboga, imisave, hirya hari umurima wagira ngo basaruyemo ibigori, hari ibigorigori byagiye byuma.

Umurima munini cyane basaruyemo ibigori. Harimo ibintu by'ibisigati byumye, ibibabi by'ibigori na byo byumye. Inyuma y'uwo murima hari amashyamba, no hagati mu murima hari utuntu tw'uduti twinshi.

Umurima munini w'urutoki urimo insina, hasi ibyatsi. ku mpande inyuma hari amazu asize irangi ry'ubururu, n'andi mazu ku ruhande. Izo nsina harimo inkingi ziziteze.

Umurima munini mwiza uhinzwemo ibirayi bitohagiye, Kandi ibyo birayi nta byatsi biri ku ruhande, byose ni icyo gihingwa. Ku ruhande rw'umurima aho uri kurangira hari imihati. Hari n'igiputa cy'inzu inyuma cyane, hari ibindi.

Umurima munini cyane bahingamo imitabo urimo insina eshatu zidafite igitoki. Hakurya hari inzu nini cyane y'igipangu, irimo n'amanegisi n'amabati meza y'umutuku.

Umurima munini witaruye uri mu kibaya, basaruyemo ibigori hasigara ibigorigori by'ibiti byagiye byuma, hirya hari ibiti, harimo indi mirima batari basarura.

Umubyeyi w'umupapa mwiza cyane uhagaze mu murima wuzuyemo ikawa, ari kujya agenda asarura ikawa ayijugunya mu gitete yahetse in inyuma ku mugongo.

Abantu bateraniye hamwe bari gukura igihingwa cy'ibirayi harimo abagore ,abakobwa n'abagabo kumpande hahinze ibishyimbo n'ibigori.

Umurima munini cyane urimo ibigori bimeze nkaho bitari byera bagiye babibagarira nta byatsi birimo hasi. Ni ibigori bitohagiye cyane bimeze neza.

Umurima munini cyane urimo ibigori bikiri hasi . Muri uwo murima hakaba harimo umugabo uhagaze, uri kurandura ibigori bimwe bitagiye byera n'amababi yagiye ajya ku ruhande hakurya y'umurima ibiti byinshi cyane.

Igihingwa cyiza cy'imbuto ipapayi, amapapayi amwe aratukuye andi ntabwo atukuye, amababi amwe ari hejuru aracyahari yose, andi mababi yagiye ahunguka.

Umurima munini cyane uhinzwemo inanasi nyinshi harimo: umugore n'umugabo. Umugore ateruye inanasi nziza cyane ubona ko ayishimiye.

Ni umubyeyi uhagaraye impande y'ibihingwa bye yenaje. Harimo imbuto, ibiti, imboga. Urabona ko yabisakariye kugira ngo n'imvura itahagera. Hirya yabyo hari amashyamba n'ibyatsi bigiye bitandukanye.

Umurima munini cyane, wo mu kibaya ,uteyemo igihigwa kera cyane, gikunzwe cyane imyumbati, kimwe mu gihingwa kibitera imbaraga, hakurya yuwo mu murima hari ibiti biye bitandukanye hari n'insina.

Isafuriya irimo ibijumba bihiye batetse .Bateka bakabishiramo bikaza byiyatuye.

Umurima munini urimo ibihingwa by'ibigori byinshi. Ibigori biracyari hagati hagati ntabwo byari byera. Bifite amababi meza biratohagiye, biracyari ibishashi.

Agasoko karimo imbuto ziri mu bitebo mu ibase izindi zirambitse hasi, imbuto harimo imyembe, imineke, harimo n'abantu bari kujya barazicuruza bahagaze ku ruhande.

Umurima munini cyane urimo ikibaya. Uhinzwemo igihingwa cy'amashu. Ahinzwe ku murongo. Amashu agiye afite amababi meza kandi ashishe.

Abantu benshi bamwe bafite amagare n'imodoka ya vuwatiri bari ahantu bahuriranye ari benshi n'imifuka myinshi cyane y'ibirayi yuzuye cyane ihambiye.

Ibiti byinshi cyane by'amapera, birimo amapera yagiye aratukura, urubuto rwiza cyane ruboneka ahantu henshi.

Umufuka wuzuye， urimo imyumbati， bigaragara ko ikuwe vuba， hirya hari ibikombe， amasahani menshi cyane， n'abantu bahicara，bigaragara ko ari aho bacururiza ibi bicuruzwa byose.

Ababyeyi batanu bose barishimye, bari gusoroma ikawa mu murima mugari cyane. Hirya hari ibiti, barishimye cyane muri rusange.

Igihingwa cyiza cyane gitohagiye cy'urusenda rwa piripiri, ruri rwonyine. Ku ruhande hakaba hari akabogisi ku'mutuku, ahandi imbaho Ruratohagiye cyane.

Umurima urambitsemo imyembe myinshi, hakaba n'umuntu uri gutoranya imyembe ayishyira mu mifuka ibiri. Hirya hari indi mirima irimo ibigori n'ibiti by'imyembe.

Isoko rinini cyane ryiza risakariye ryuzuyemo ibirayi by'amoko menshi, biri mu mifuka igiye itandukanye, hariho n'urujya n'uruza rw'abantu, ba nyiribirayi n'abarimo kubigura bo kuja kubicuruza.

abahinzi benshi bari mu murima w'ibireti byinshi buri muhinzi arikugenda aha undi ibireti bamwe mu ntoki abandi bafite indobo. Ku ruhande rw'umurima w'ibi bireti hakikijwe ibiti byinshi.

Imbuto nziza cyane ni maronji. Imwe y'uhondo, indi y'umukara. Ari mubitebo bigiye bitandukanye, kimwe kiririmo menshi, ikindi kirimo ay'icyatsi, ikindi kirimo makeya arimo umuhondo n'umukara. N'abantu ku ruhande.

Igihingwa cyiza, kiboneka ahantu henshi cyamateke, amateke y'inyobera amwe y'umweru, rimwe rirasatuye, andi atatu ntabwo asatuye, aracyabumbye yose.

Umurima w'ibihaza urimo igihaza cyiza kinini cyane, hirya hari imizi y'uruyuzi, baragisasiye kiri ahantu heza ntago kiri mu itaka hasi, kiri hejuru y'utwatsi.

Kimwe mu bihingwa cyiza cy'imbuto ipera. Ipera rimwe rirakase, rifite umutuku mwiza urimo imbuto. Irindi pera nta bwo rikase. Ayo mapera abiri afite utubabi tubiri.

Umurima munini w' ibigori; ibigori byiza, ikigori kimwe gitonoye hakabamo n' imisigati urabona ko byeze bimwe bikaba bikiri bibisi ibindi byumye.

Umurima munini kandi mwiza. Urimo itaka ryiza ry'umutuku, hakabamo ibigori bigiye bitandukanye, ibimera by'ibyatsi, imyembe n'ibindi bihingwa ku ruhande.

Igihingwa cyiza cy'imyumbati. Kiri no mu bitera imbaraga . Yirundanyije ahantu ari myinshi cyane imwe yagiye ikobokaho indi idakobokaho bigaragara ko iyi myumbati ikiri mishyashya.

Umwana wicaye ku bibaho, uri hantu hanini hitaruye hari inka nyinshi cyane, kandi hakaba ari nta bwatsi buhari ari ahantu hari itaka hazitiye cyane, hari amatungo y'inka atandukanye n'abantu ku ruhande inyuma cyane yabo.

Umubyeyi ugaragara nk'uwishimye, uri mu murima munini cyane urimo ibigori bitari byeyera , hakurya y'uwo murima hari indi mirima, hakurya cyane hari andi mazu menshi.

Abaturage benshi batonze umurongo, bigaragara ko bari kubigisha gutera ibiti，utema kimwe utera bibiri， bose bafite ibiti mu ntoki n'umurima uri imbere uhinze，n’akabase gahari.

Imifuka myinshi yuzuyemo ibirayi, cyane bagiye badota, bipanze kandi ku murong,o itondekanye, iri ahantu heza, haterekeye, ishashi...

Ikibara kinini kiri ahantu heza, harimo ubwatsi bwinshi bwiza, bushishe, ku ruhande hakaba hari ibiti, hakabamo inka zitandukanye, zirimo z'umukara izindi zirimo umutuku, ziri kumwe zose uko ari inka eshatu.

Imbuto nziza cyane za avoka. Zirambitswe mu kabogisi. Zimwe zifite udukondo, izindi nta dukondo zifite. Ni avoka z'icyatsi nziza cyane zeze.

Igihingwa gikunzwe cyane cyera imbuto. Amatunda yera cyane cyane bayashingiriye, bagashinga uduti yo akera aranda kuri icyo giti.

Urubuto rwiza barambitse ku meza, rwa avoka. Voka zikase , voka imwe irmo ikibuto, ikindi gice cya avoka nta kibuto gihari. Ku mpande ku mpande kupande, hari n'utundi tubuto, urunyanya, n'akandi gasorori karimo utuboga.

Umubyeyi uri mu umurima uri hafi yurugo, uri gukura ibirayi, wishimye, ufashe ibirayi mu ntoki byinshi, uri guseka. Ubona ko akanejejwe no kweza ibirayi byiza.

Amateke meza ya bwayisi bahinga cyane mu gishanga, akunze kwera cyane kandi abantu benshi barayakunda cyane ku rwego rwo hejuru kuruta ayandi mateke.

Umurima munini, uteyemo igihingwa cy'ibigori n'udusoya. Ibi bigori bikaba biri kugaragara nk'aho byagiye birarumwa n'agasimba, byaratobaguritse, birimo n'agasimba hejuru.

Ibirayi byinshi biri mu murima bigaragara nk'aho bikuwe ako kanya, bifite itaka n'utuzi hasi, ku ruhande hari amababi yabyo.

Urujya n'uruza rw'abantu baza mu isoko kugura n'abari kugurisha, hari imyumbati myiza cyane n'umunzani ku ruhande urambitseho isahani, n'umubyeyi uri kurundanya imyumbati ari kuyishyira hamwe.

Ababyeyi bishimye bagaragara neza cyane, bari mu murima munini cyane uhinzwemo amashu, bari gusasira imbuto, inyuma cyane hari ibindi bihingwa bigiye bitandukanye.

Ibitunguru byinshi cyane biri mu bwoko bw'ibinyarwanda, bimwe bitukura cyane cyane bikunzwe, bicuruzwa hirya no hino bikorwamo sarade, bakunda gutekamo n'ibiryo bisanzwe.

Abaturage benshi baje ahantu ku murima, bari bukore imirongo yo gushyiramo impeke zitandukanye z'ibihingwa. Bamwe b'abadamu bambaye bote, abandi bagabo bambaye ibisanzwe, n'abari gucukura imyobo bari bufatikanye na bo.

Umurima munini uteyemo ikirayi. Batazuyeho itaka. Ni ibirayi birindwi byiza, n'imizi byose biracyagaragara.

Igihingwa cyiza cyane cyo mu mbuto y'ipera, rimwe rikasemo kabiri irindi ntabwo rikase, hirya hari agatabi k'amababi y'iryo pera.

Umurima munini urimo ibiti bishinze n'igihingwa cy'amatunda, ibyo biti byagiye birandamo amatunda, yagiye araba yuma, urabona rwose ko ari igihingwa baranduye, ubundi kikuma.

Imbuto nziza cyane z'iyembe zirambitse mu kantu, harimo imyembe itukuye, n'imyembe mibisi cyane. Iri hamwe, hirya hari akantu k'ubururu.

Umugabo ateruye imyembe myinshi, mu biganza bye, hari n'indi myembe iri hasi, bigaragara ko ari ahantu bapakingira imyembe, bakayiterurira hamwe ari myinshi, bajya kuyigurisha.

Abantu babiri, umudamu, umupapa. Bari mu murima munini uhinzemo amashu. Bateruye ishu rimwe rinini, barishimye. Bashimishijwe no kubona iryo shu ryakuze.

Urujya n'uruza rw'abantu bari impande y'imirima irimo ikawa nabo bikoreye ikawa mu bitebo bamwe babitwikirije n'ibindi bitewo abandi batabitwikiriye bo bishimye rwose bavuye gusarura ikawa.

Umurima munini cyane wiganjemo igihingwa cyiza cy' imyumbati kirimo bimwe mu bitera imbaraga nicyo gihingwa gihinze hakurya hari amazu meza n' ibiti biyikikije na kayira.

Umurima munini cyane urimo ibigori harimo n'abahinzi batatu bari kugenda bari gufuhira imyaka, bahetse n'amapombe hirya y'uwo murima hakikijwe ibiti. Urabona ko ari umurima uri ahantu mu kibaya.

Urutoki rwiza rusasiye neza harimo insina nziza, n'insine imwe yeze igitoki kirekire cya hafiya, harimo amabere amwe y'igitoki asaduka baryamo imineke.

Umuhinzi uri guhinga ahantu mu gishanga kirimo amazi aringaniye, igihingwa cy'umuceri hiryaye mu mpande zo hepfo na ruguru naho hari umuceri bigaragara ko uri mu kigero kimwe wose utewe.

Igihingwa cyiza cyane cyera imbuto za voka zeze. Kandi na'mababi yavoka aratohagiye cyane n'ibiti biratohagiye cyane bisa nkaho byose ari bishasha.

Isoko rinini ryubatswe neza, ririmo abantu benshi, ririmo imbuto, imyunyu, iryo soko ririmo urujya n'uruza rw'abantu bari guhaha n'abacuruzi.

Umubyeyi mwiza cyane, uhagaze mu murima uhinzwemo karoti nyinshi. Uyu mubyeyi afite karoti mu ntoki, nziza, zitukuye. Ku kuruhande rw'uwo murima hari ibiti bihakikije.

Inkoko nyinshi cyane zigaragara mu matungo magufi, harimo: isake, inkoko kazi z'umweru, pondezi, inkoko za koroyira ziri ahantu hasi bigarara ko hari utuntu tw'udusimba ziri gutoragura.

Igihingwa k'inanasi， keze neza zimwe zitukuye，izindi zitukuye bagiye bashingaho uduti ku ruhande，kugira ngo izizera zitazajya zivaho zikavunika. Inanasi ni kimwe mu gihingwa nkunda cyane k'imbuto.

Ku umuhanda ahantu bashashe agafuka, barambika imifungo y'imyembe n'udusenda, hari agatete n'udufuka basa nk'aho bahacururiza agasoko ka ni mugoroba, ku ruhande hari umwana uri kwitegereza, ku ruhande inyuma ye hari igare.

Abaturage benshi bari mu murima harimo abadamu, abakobwa, abagabo, basore bari gufumbira, harimo umwe uteruye ijerekani irimo amasohogororo amena hasi ifumbire, n'ahantu bamena ibintu by'ifumbire hitaruye cyane.

Utubuto twiza cyane bita inkeri. Dufashwe n'umumama uri ahantu mu murima hahinzwe ibishyimbo, urutoki n'ibindi bimera.

Igihingwa cyiza cy'amateke, amateke meza arambitse ahantu heza yitwa inyobera. Iteke rimwe rikase, andi mateke ntabwo akase ari kuruhande ni menshi cyane.

Ikibara kinini kitaruye kirimo utwatsi duto duto, harimo amahene abiri ari kurisha ubwatsi, hamwe ubwatsi bwarashize hari itaka ryinshi ahandi hari ubwatsi, icyo kibara kirimo ibiti hirya kure cyane hari n'abantu n'amazu.

Agakarito kanini karimo avoka zisa z'icyatsi. Zimwe zifite udukondo, izindi zidafite udukondo. Hirya y'ako gakarito karimo avoka hari utundi dukarito tw'utubogisi. Bigaragara ko baba bari kuzicuruza.

Umugabo uri ahantu mu ishyamba bigaragara ko ari gusenya inkwi. Ni ishyamba ryuzuyemo ibiti, n'ibimera bimwe na bimwe bigiye bitandukanye.

Ikibuga kinini cyane, gishashye kirimo utwatsi twiza, namabuye makeya, kuruhande hari amazu arimo imbere muri porotaye y'utwuma, inyuma cyane hari amashyamba menshi, n'imisozi miremire, nayo yuzuyemo ibiryo.

Isoko rinini cyane ricuruzwamo ibintu byinshi cyane cyane ibishyimbo, ibigori, amasaka, uburo, ubunyobwa, bagiye babipanga mu mifuka . Inyuma yaho hari umugabo uvugira kuri terefone usa nk'aho ari kubicuruza.

Ibinyampeke byiza cyane harimo ni imbuto, intoryi na tungurusumu biri ahantu heza n'imizi myiza, utubabi twiza duke duke, birarundanyije cyane.

Umurima munini cyane wiganjemo, igihingwa cy' amasaka, yagiye aruma cyane urabona ko ari igihe cyo gusarurwa.

Igihingwa cy'ibigori. Bimwe byo mu bwoko bwa mayizori . Bikunda kuvamo ifu nziza cyane nayo bita mayizori, iryoshya imitsima n'imigati.

Igihingwa k'ikinyampeke ubunyobwa, basutse hasi, ubundi burimo imbere, mu gisabane kinini cyane, hirya hari ubundi bunyobwa, bwagiye burataruka ku ruhande, kandi ni ubunyobwa budatonoye.

Igihingwa cyiza cyane cy'ibinyampeke/ uburo, bwanitse hasi ku ihema ahantu heza mu kibuga kandi ubwo buro ntabwo butonoye.

Umudamu numugabo, umudamu ariguhereza umugabo ibigori, ari kubimanika kugisenge, ibiti batambika hejuru byiza, urikubona n' ibigori byumye.

Igihingwa cyiza cy'ibinyampeke kirambitse mu kabase. Ibinyampeke by'ubunyobwa, ubunyobwa budatonoye, barambitse bwonyine, bwitaruye. Hirya hari ibintu by'umukara.

Imifuka iri mu nzu nini, ivamo ibintu by'amafu, hirya hari akameza, akameza n'umugozi, karitaruye akameza, hirya hari indi imifuka nayo irambitse itatu itatu.

Igihingwa cyiza cyane ibishyimbo. Bimwe biri mu gakorodumu, ibindi biri ku isahani. Umuntu ufashe isahani mu kiganza, harimo ibishyimbo, n'undi muntu wicaye ku ruhande.

Igihingwa kiza gikunzwe, igihwagari gitubuka ku bwinshi kiri ahantu heza h'ikibaya, n' igihingwa kivamo amavuta ya guteka kwita igihwagari.

Ababyeyi babiri umugabo n'umugore, bari kugosora igihingwa cy'ingano, ni igihingwa cyiza cyane gikorwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ku ruhande hari indi mifuka ,na yo yuzuye y'ingano.

Igihingwa cyiza cyane gitohagiye cyeza neza, kizana ubukungu mu Rwanda, uburo buboneka ahantu hamwe na hamwe mu gihugu, ntabwo buboneka ahantu hose.

Umufuka uririmo ibishyimbo n'ibakure hejuru. Abagore bicaye k'uruhande n'urujyanuruza rw'abagabo n'urigupfuka amandazi mu isashe.

Imifuka myinshi cyane itondekanye itonze ku murongo, irimo igihingwa cy'ibigori, igihingwa kiboneka ahantu hagihe hatandukanye, havamo amafu hakavamo na kawunga.

Umudamu uhagaze uri kuminura ibishyimbo mu kindi kintu. Inyuma hari n'undi wikoreye ibintu by'ibishyimbo, hari n'undi mudamu uhagaze, umudamu uri kubimena ari kubikura mu isafuriya, abishyira mu kindi kintu kiri hasi.

Imbuto y'ibishyimbo iri mu kantu k'agapurasitike, hari ikiganza gifashe izo mbuto zagiye zimera nyinshi cyane. Zagiye zimerera aho kuri purasitike, batinze kuzitera ziramera.

Inzu nini cyane yubakishiijwe amabati, n'imbaho n'ibiti, hari ikintu kirimo ifu, ishwagara ry'ibiti byinshi cyane, hari n'icyuma ku ruhande, ibyuma bifashe icyo giti kirimo ishwagara.

Igihingwa cyiza cyane gitohagiye ,gisa neza cyinshi uburo bweze cyane buri hagati na hagati. Ni byinshi cyane bufite amababi meza kandi ntiburagwa.

Igihingwa cy'amasaka gihinze ahantu hitaruye, hirya hagaragara ibicu, ku mpande imiyenzi, kiri ahantu hagari.

Abadamu babiri bari gupakira ibinyampeke, ibishyimbo. Bari kubishyira mu mabase ku ruhande hakaba ibindi binyampeke by'ibigori na byo biri gushyirwa mu mifuka.

Igihingwa cyiza gikunzwe cyane, ingano itandatu zirarambitse ku kantu zose ziratonoye zimeze neza cyane, ni igihingwa cyera cyane mu Majyaruguru.

Ibigori byinshi cyane by' amahundo bajya babimanika, ku biti bitondekanye cyane, azirikanye ari abiri abiri hirya yaho hari ibindi byatsi n' insina.

Imifuka myinshi irambitse ahantu h'ikibaya. Imifuka yose yuzuye ibinyampeke. Ku ruhande inyuma hari abantu bakeya, inyuma hepfo hari inzu yubakishijwe ibibati, ku ruhande hakikijwe ibiti.

Umurima munini cyane, witaruye uri ahantu mu kibaya. Uhinzwemo ibinyampeke byameze. Hirya cyaneee! Naho hari ibindi binyampeke, inyuma cyane hakaba ibicu.

Igihingwa cyiza cyane cy'ibinyampeke soya, ikunze kubeteshwamo ifu. Ikaba ifite igiti cyashyishe gifite amababi meza atohagije.

Abaveterineri batatu, umwe wambaye ga undi nta ga yambaye harimo umugore umwe n'abagabo babiri, bari kumwe n'imbwa ebyiri bigaragara ko bamaze kuzivura, zo zambaye n'urunigi mu ijosi.

Ingurube nini cyane iryamye. Ifite abana bayo bari konka. Iryamye ahantu hasi, n'utwana turi hasi. Amabere amwe nta bwo turi kuyakurura, andi turi kuyakurura.

Abagabo batatu, babiri bambaye amasarubeti y'ubururu, undi yambaye itaburiya ya kaki, bari ahantu hari inzu nini yitaruye, inzu y'amabati n'ibiti n'imbaho, hari n'icyapa cyanditseho na rame.

Umu mama woroye amatungo yo mu bwoko bw'amahene menshi cyane cyane, ihene ni inyamaswa ikunzwe cyane, ibarizwa mu matungo magufi, igaragara ko yororewe ahantu heza, hazitiye kandi hasa neza.

Ingurube eshanu ziri mu kiraro cyiza, cyubakiwe neza cy'ibiti. Zigaragara nk'aho ziri kurya . Ku ruhande hari umuntu uri kuzigaburira ,ufite indobo yicyatsi.

Inyamaswa nziza ikunzwe n'Abanyarwanda, inyana iyo ikiri ntoya iziritse ahantu impande y'imiyenzi igaragara kiri yonyine cyane.

Ibyana by'ingurube byinshi, biri kumwe na nyina iri kubyonsa, ibyana byi ngurube biri mu kiraro cyiza cyubatswe neza, imbaho hasi ni imbaho.

Inkoko nziza cyane zifite ibara ry'umweru ziri ahantu mu nzu yayo hari amatara, urumuri rwiza zirasakariye zigaragara ko zikandagiye n'ahantu heza hari agataka keza.

Umubyeyi uhagaze uteruye agakwavu keza k'umweru ku ruhande hari ikibuti cy'inkwavu cyubatswe mu mbaho, umubyeyi wambaye ikanzu nziza.

ikiraro cy'inka, n'inka iri hanze, hirya hari ikigega cy'amazi, hakaba n'umugabo wambaye isarubeti y'icyatsi n'umwana uri inyuma ye.

Inyamaswa, ingurube nini cyane irimo imbere mu gipangu cyiza gifite porutaye y'umutuku, urugi rw'igipangu rurafunguye.

Abaganga bane bambaye amataburiya n'ingofero n'ubupfukamunwa bagaragara nk'aho bari kuvura umuntu na ga ziri hasi bamwe bafite n'urushinge mu ntoki.

Ikigurube kinini cyane cy'umukara， kimwe cyororwa mu matungo，gifite ibyana by'umukara， kiri ku byonsa kiryamye hasi， mu kiraro kiri inyuma k'imbaho.

Ingurube itatu, ziri ahantu mu kiraro zose zikora hasi, bigaragara ko ari ingurube nziza zisa neza, imwe mu nyamaswa zororwa cyane, kandi ikunzwe.

Amagi meza cyane y'umweru y'amanyarwanda ari mu itureyi. Amatureyi yose agerekeranyije, amatureyi amwe asa umweru, andi umutuku, hari n'andi magi ku ruhande.

Amatungo meza y' amahene abiri, ari ahantu mu kibuga kinini harimo utwatsi duke duke ku ruhanda hari ibindi byatsi, inyuma cyane hari amazu hari n' ibiti byiza.

Inkoko itatu zihagaze ahantu harutwatsi bigaragara ko ari mu nzu, inkoko imwe y'ipondezi zimwe z'umukara n'inyarwandase zihagaze hamwe.

Ubworozi bw'amatungo magufi, inkwavu zimwe z'umukara ebyiri n'urundi rw'umweru ziri ahantu hasi hasa neza na zo zisa neza, hirya hari uduti dusa neza tw'amababi meza.

Inka nyinshi cyane ziziritswe ku biti bifashwe n'ibyuma n'umugabo uri hejuru yabyo ufite n'inkoni bigaragara ko ariwe uziragiye n'undi uri hasi ziri mu kibuga kinini kitarimo ubwatsi zigaragara ari ho bazigurishiriza hari n'ibiti byumye.

Umugabo woroye inka iri mukiraro, hari n'umu veterineri uri kugenda ari gutera inka umuti wica udukoko twaba twagiye kuri iyo nka.

Inzu nini cyane, zirimo amatungo magufi y'inkoko. Kandi zisa zo mu bwoko bw'amapondezi. Ni bworozi bw'inkoko.

Iyi ni nka ebyiri ziri ahantu mu kinani .Hari ibyatsi byinshi cyane. Inka imwe ifite iherena ku gutwi. Indi nka nta herena ifite ku gutwi.

Ishyamba rinini ririmo ibiti bitandukanye. Igiti kimwe gihagazeho inyoni bita isande. Ihagaze impande y'icyari cyayo gipfundikiriye neza cyane.

Umurima munini urimo uduti, utwatsi n'uwo murima hakabamo inkoko iri yonyine, iri kwitegereza ikintu imeze nkaho iri gutoragura utwo kurya.

Inyoni nziza cyane igaragara mu bwoko bw'inuma. iraguruka iba mu ishyamba, hari n'abayorora. Irakunzwe cyane, iraribwa, igatera n'amagi.

Umurima munini cyane urimo utwatsi n' uduti harimo inkoko muri uwo murimo iri kwitegereza ikintu imeze nkaho igiye gutoragura utuntu, hamwe amafi yitaruye yonyine.

Inyoni nyinshi cyane zihagaraye hejuru ku nsinga z'amashanyarazi. Kuko zigiye zitonze umurongo zashyizemo agatera.

Inyoni ihagaze ku ishami ry'igiti, hirya hari ibindi biti n'amababi y'icyatsi gihiye n'icyatsi kibisi, iritaruye cyane kure nyuma y'aho hari n'ibicu.

Umurima munini urimo utwatsi, harimo n'agatungo kitwa imbata, harimo imbata ibiri imwe y'umukara indi y'umweru iri gutoragura hasi.

Igisiga kinini cyane kiguruka mu kirere, ariko kikaba cyanahagarara, bakunze kwita agaca. Kimwe kirya inkoko, gikunda ahantu bakunze kuba boroye cyane.

Utunyamaswa dutatu tw'udupusi. Kamwe kareba imbere, akandi ku ruhande, akandi nako kagasa n'akarangaye. Duhagaraye ahantu hejuru, munsi hari uduti.

Ikinyamaswa kinini cyane cy'igisamagwe cyasamye cyane, cya sohoye ururimi n'amenyo maremare, kirara mu ishamba cyonyinye, ishyamba ryuzuyemo ibiti n'ibyatsi.

Inyamaswa nziza cyane ikunzwe mu gihugu ingagi. Imwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo, iri yonyine yitaruye ahantu mu murima.

Inyamaswa nziza y'inkende iryamye hagati mu biti mu matabi, iri kureba hejuru, impande y'ayo matabi hari ibibabi n'ibindi biti ku ruhande, bifite amababi.

Inyamaswa nziza cyane, isha ihagaze yonyine isa neza, inyuma hari ibyatsi byiza bitohagiye bimeze neza, hasi na ho hari ibyatsi.

Udusimba twiza cyane tw'ingwe. Ingwe nini n'intoya. Biri ahantu hari inzira y'byondo, ibyatsi biri kure nabyo byumye.

Inyamaswa nziza y'inkende iri hantu mu ishyamba, ifashe urubuto rw'urunyanya, iricaye ahantu hari ibiti byiza, isa nkaho igiye kuryago uwo rubuto.

Akanyamaswa k'imbeba zikunze kuba ahantu hari nk'ibiryo mu nzu cyangwa se mu murima, kari gutoragura utuntu hasi.

Ikigona gihagaze cyonyine ahantu heza. Gifite amabara y'umukara n'umweru. Gikurura agati nk'ikigiye gukora icyari cyo kuzajya kirarikwamo igihe kigiye gutera.

Imwe mu nyamaswa ikunda kuba mu ishyamba, imbwebwe, zitaboneka cyane cyane ahantu hose. Iri ahantu heza hari utwatsi, yitaruye, nta kindi kintu yabangamira gihari.

Ishyamba ririmo ibyatsi n'ibiti n'indabo. Harimo inyamaswa y'inkende yari kumwe n'icyana cyayo yagishyize munsi mu maguru. Iri ahantu hitaruye cyane arizo zimbi gusa.